Uru ni urubuga rukorera ku ikoranabuhanga ndetse na murandasi, rwamamaza ibijyanye n'ubwishingizi, ari umusore usa nkaho akiri muto yambaye ingofero y'umutuku ishati y'ubururu, urabona ko ari ibintu byiza cyane.

Iki ni icyapa kinini cyo mu muhanda, kiramamaza ibijyanye n'ubwishingizi, kigizwe n'amabara ubururu, umuhondo n'umweru, hirya gato hariho ifoto y'abantu batatu, babiri bakuze n'umwana umwe.

Uru ni urubuga rukorera ku ikoranabuhanga ndetse na murandasi, ruramamaza ibijyanye n'ubwishingizi, rugizwe n'amabara y'ubururu, hariyo ifoto y'abakobwa bagera kuri babiri bafite ibyishimo bari guseka.

Aba ni abantu bagera kuri batatu bari ahantu hamwe barakeye cyane higanjemo abagabo babiri bambaye amakote n'umugore umwe, bafite icyapa kinini cyamamaza ibijyanye n'ubwishingizi mu biganza byabo.

Iki ni icyapa kinini kiri mu kirere, cyamamaza ibijyanye n'ubwishingizi, kigizwe n'amabara y'ubururu, umweru ndetse n'umugabo uriho ufite ibyishimo byinshi, ari guseka, agasatsi ke karasokoje, yambaye ikote ry'umukara.

Uru ni urubuga rukorera ku ikoranabuhanga ndetse na murandasi rwamamaza ibijyanye n'ubwishingizi hariho ifoto y'abantu babiri umukobwa ndetse n'umugabo ubona bishimye cyane bicaye ku ntebe z'imyeru.

Uru ni urubuga rukorera ku ikoranabuhanga ndetse na murandasi, ruramamaza ibijyanye n'ubwishingizi rugizwe n'amabara y'umweru, ubururu amagambo yandikishije umukara, hirya gato hariho ifoto y'umukobwa usa nkaho akiri mutoya uri kuri telefone.

Uru ni urubuga rukorera kuri murandasi n'ikoranabuhanga, ruramamaza ibijyanye n'ubwishingizi, hariho abantu babiri ubona bakeye cyane, bishimye ku maso yabo bari guseka, higanjemo umukobwa n'umuhungu.

Iki ni icyapa kinini kimanitse hejuru mu kirere, kiramamaza ibijyanye n'ubwishingizi gisize amabara y'ubururu, umweru n'umuhondo, hirya gato hariho ifoto y'umugore n'umwana ahetse mu mugongo.

Uru ni urubuga rukorera ku ikoranabuhanga ndetse na murandasi, ruramamaza ibijyanye n'ubwishingizi, rugizwe n'amabara y'ubururu n'umweru, hariho umugabo ufite ibyishimo, wambaye ikote ry'umukara.

Uru ni urubuga rukorera ku ikoranabuhanga ndetse na murandasi ruramamaza ibijyanye n'ubwishingizi rugizwe n'amabara y'ubururu, umweru, amagambo yandikishije umukara akikijwe n'amazu maremare ya etaje n'andi mabi magufi.

Uru ni urubuga rukorera kuri murandasi ndetse n'ikoranabuhanga ruramamaza ibijyanye n'ubwishingizi, hariho umukobwa mwiza usa nk'aho akiri muto wambaye imyeru ari guseka afite ibyishimo na terefone ku gutwi.

Uru ni urubuga rwa banki runaka rukorera kuri murandasi ndetse n'ikoranabuhanga, aho rugufasha kohereza, kwishyura, kwakira amafaranga akakugeraho kuri telefone yawe bitagusabye kuva aho uri.

Uru ni urubuga rwa banki runaka, rukorera kuri murandasi n'ikoranabuhanga, aho rugufasha kwishyura, kohereza, kwakira amafaranga mu buryo bworoshye, akaba yakugeraho bitagusabye kuva aho uherereye.

Uru ni urubuga rwa banki runaka rukorera kuri murandasi ndetse n'ikoranabuhanga, aho rugufasha kohereza, kwakira, kwishyura amafaranga mu buryo bworoshye kandi bwihuse, bitagusabye kuva aho uherereye.

Uru ni urubuga rukorera ku ikoranabuhanga ndetse n' murandasi aho ushobora kwishyura hakohereza kwakira amafaranga mu buryo bworoshye kandi bwihuse bitagusabye kuva aho uherereye.

Uru ni urubuga rwa banki runaka rukorera kuri murandasi n'ikoranabuhanga, aho rugufasha kohereza, kwakira, kwishyura amafaranga mu buryo bworoshye kandi bwihuse kuri telefone yawe bitagusabye kuva aho uherereye.

Uru ni urubuga rwa banki runaka rukorera kuri murandasi n'ikoranabuhanga aho rugufasha kohereza, kwakira amafaranga mu buryo bworoshye kandi bwihuse bitagusabye kuva aho waba uherereye aho ari ho hose.

Uru ni urubuga rwa banki runaka rukorera kuri murandasi ndetse n'ikoranabuhanga, aho rugufasha kwishyura, kohereza, kwakira amafaranga mu buryo bworoshye kandi bwihuse bitagusabye kuva aho uherereye.

Uru ni urubuga rwa banki runaka rukorera kuri murandasi ndetse n'ikoranabuhanga aho ushobora kwishyura kohereza kwakira amafaranga mu buryo bworoshye kandi bwihuse bitagusabye kuva aho uri.

Uru ni urubuga rwa banki runaka, rukorera kuri murandasi n'ikoranabuhanga, aho ushobora kwishyura, kohereza, kwakira amafaranga, akakugeraho kuri telefone yawe kandi byoroshye bitagusabye kuva aho uririra.

Uru ni urubuga rwa banki runaka rukorera kuri murandasi n'ikoranabuhanga, aho ushobora kwishyura, kohereza, kwakira amafaranga mu buryo bworoshye kandi bwihuse, bitagusabye kuva aho uherereye.

Uru ni urubuga rwa banke runaka rukorera kuri murandasi ndetse n'ikoranabuhanga, aho ushobora kwishyura, kohereza, kwakira amafaranga mu buryo bworoshye kandi byihuse, bitagusabye kuva aho uri.

Uru ni urubuga rwa banki runaka rukorera kuri murandasi ndetse n'ikoranabuhanga, aho rushobora kugufasha kwishyura, kohereza, kwakira amafaranga mu buryo bworoshye kandi bwihuse, bitagusabye kuva aho uherereye.

Uru ni urubuga rwa banki runaka rukorera kuri murandasi n'ikoranabuhanga, aho rugufasha kwishyura, kohereza, kwakira amafaranga mu buryo bworoshye akakugeraho byihuse bitagusabye kuva aho uherereye.

Uru ni urubuga rwa banki runaka, rukorera kuri murandasi n'ikoranabuhanga, aho rugufasha kwishyura, kohereza, kwakira amafaranga mu buryo bworoshye kandi bwihuse, akakugeraho kuri telefone yawe, bitagusabye kuva aho uherereye.

Uru ni urubuga rwa banki runaka rukorera kuri murandasi ndetse n'ikoranabuhanga, aho rugufasha kwishyura, kohereza, kwakira amafaranga mu buryo bworoshye kandi bwihuse.

Uru ni urubuga rwa banke runaka rukorera kuri murandasi ndetse n'ikoranabuhanga, aho rifasha kohereza, kwishyura, kwakira amafaranga mu buryo bworoshye kandi bwihuse bitagusabye kuva aho uri.

Uru ni urubuga rwa banki runaka rukorera kuri murandasi ndetse n'ikoranabuhanga aho rugufasha kohereza, kwakira amafaranga mu buryo bworoshye kandi bwihuse bitagusabye kuva aho uherereye.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara n'imirongo y'umweru, ku ruhande hari imyenda imanitse igiye itandukanye ndetse n'igiti gitanga umuyaga n'amahumbezi ku bantu bacaho bose.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara uranyuramo ibinyabiziga bitandukanye igare, moto n'imodoka hirya gato hari ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Aba ni abantu bari ahantu hamwe bagera muri batatu, ni abagabo bakeye cyane bafite ikintu kimeze nk'urufunguzo cy'umweru mu biganza byabo, inyuma kandi hari imodoka nziza y'umukara.

Aba ni abagabo batatu bahagaze ahantu hamwe, bafite ibyishimo nk'uko bigaragara ku maso yabo bari guseka, hari ikintu kimeze nk'urufunguzo kiri mu biganza, hirya gato hari amamodoka menshi kandi meza.

Aba ni abagabo babiri bari ahantu hamwe, barakeye cyane, bambaye neza, bafite ikintu kimeze nk'urufunguzo mu biganza byabo cy'umweru, hirya gato hari imodoka zihahagaze, urabona ko ari ibintu byiza cyane.

Aba ni abagabo babiri bari ahantu hamwe barakeye cyane, umwe muri bo yambaye ishati y'umweru ipantaro y'umukara, bafite ikintu kimeze nk'urufunguzo mu biganza byabo, inyuma kandi hari imodoka nziza imenyerewe mu gutwara imizigo.

Aba ni abantu bagera kuri batatu bari ahantu hamwe hasize amabara y'umweru, barakeyeye cyane kandi bafite ibyishimo bari guseka higanjemo abagabo babiri n'umugore umwe hari icyo bafite mu biganza byabo.

Aba ni abagabo babiri bahagaze ahantu hamwe, basa nk'abakuze, hari ibyo bari guhererekanya mu ntoki zabo rumeze nk'urufunguzo runini cyane, inyuma kandi hari imodoka nziza y'umweru ifite ibirahure bibonerana.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara, hirya gato amamodoka menshi ahhagaze n'ubwatsi butoshye n'ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Aba ni abantu bagera kuri babiri bari ahantu hamwe baracyeye cyane ubarebye ku myambaro yabo bafite ikintu kimeze nk'urufunguzo mu biganza byabo inyuma kandi hari imodoka nziza.

Ubu ni uburyo bukoreshwa ku ikoranabuhanga ndetse na murandasi, aho ushobora kwishyura, kohereza, kwakira amafaranga, aturutse mu mahanga, akakugeraho byoroshye kandi byihuse bitagusabye kuva aho werereye.

Uru ni urubuga rukorera kuri murandasi, aho rugufasha kwishyura, kohereza, kwakira amafaranga mu buryo bw'ikoranabuhanga, akakugeraho byihuse bitagusabye kuva aho uherereye cyangwa ngo ukore ingendo zidateguwe.

Uru ni urubuga rwa Emutiyeni rukorera kuri murandasi ndetse n'ikoranabuhanga aho rugufasha kohereza kwakira kwishyura amafaranga mu buryo bworoshye kandi bwihuse bitagusabye kuva aho uherereye.

Uru ni urubuga rukorera ku ikoranabuhanga ndetse na murandasi rwa MTN, aho rugufasha kwishyura kohereza kwakira amafaranga mu buryo bworoshye kandi bwihuse, bitagusabye kuva aho kuri telefone yawe.

Uru ni urubuga rwa Emutiyene rukorera kuri murandasi n'ikoranabuhanga, aho ushobora kwigurira amayinite akakugeraho mu buryo bworoshye kandi bwihuse, bitagusabye kuva aho uherereye.

Uru ni urubuga rukorera ku ikoranabuhanga ndetse na murandasi, aho rugufasha kwishyura, kohereza, kwakira amafaranga yaba aturutse mu mahanga mu buryo bworoshye kandi bwihuse bitagusabye kuva aho uri.

Uru ni urubuga rukorera ku ikoranabuhanga ndetse na murandasi, aho ushobora kohereza, kwakira, kwishyura amafaranga mu buryo bworoshye kandi bwihuse, bitagusabye kuva aho uherereye aho ari ho hose.

Uru ni urubuga rukorera ku ikoranabuhanga ndetse na murandasi, aho rugufasha kwishyura, kohereza, kwakira amafaranga mu buryo bworoshye kandi bwihuse, bitagusabye kuva aho waba uherereye hose.

Uru ni urubuga rukorera ku ikoranabuhanga ndetse na murandasi, aho rugufasha kwishyura, kohereza, kwakira amafaranga mu buryo bworoshye kandi bwihuse, bitagusabye kuva aho uherereye.

Uru ni urubuga rukorera ku ikoranabuhanga ndetse na murandasi, aho rugufasha kwishyura, kohereza, kwakira amafaranga mu buryo bworoshye, akakugeraho bitagusabye kuva aho uherereye.

Uru ni urubuga rukorera ku ikoranabuhanga ndetse na murandasi, aho rugufasha kwishyura, kohereza, kwakira amafaranga mu buryo bworoshye aturutse mu mahanga akakugeraho bitagusabye kuva aho uherereye.

Uru ni urubuga rukorera ku ikoranabuhanga ndetse na murandasi, aho rugufasha kwishyura, kohereza, kwakira amafaranga mu buryo bworoshye kandi bwihuse bitagusabye kuva aho uherereye.

Uru ni urubuga rwa Emutiyene rukorera ku ikoranabuhanga ndetse na murandasi, aho rugufasha kohereza, kwakira amafaranga mu buryo bworoshye kandi bwihuse, bitagusabye kuva aho uherereye aho ari ho hose.

Uru ni urubuga rukorera ku ikoranabuhanga ndetse na murandasi, aho rugufasha kwishyura, kohereza, kwakira amafaranga mu buryo bworoshye kandi bwihuse, akakugeraho bitagusabye kuva aho uherereye.

Uru ni urubuga rukorera ku ikoranabuhanga na murandasi, aho rugufasha kwishyura, kohereza, kwakira amafaranga mu buryo bworoshye kandi bwihuse, bitagusabye kuva aho uherereye aho ari ho hose.

Uru ni urubuga rukorera kuri murandasi n'ikoranabuhanga; aho rugufasha kwishyura, kohereza, kwakira amafaranga aturutse mu mahanga mu buryo bworoshye; bitagusabye kuva aho uherereye.

Uru ni urubuga rukorera ku ikoranabuhanga ndetse na murandasiye, aho rugufasha kwishyura, kohereza, kwakira amafaranga mu buryo bworoshye kandi bwihuse, bitagusabye kuva aho uri hose.

Uru ni urubuga rwa emutiyeni rukorera kuri murandasi n'ikoranabuhanga, aho rugufasha kwishyura, kohereza, kwakira amafaranga mu buryo bworoshye, kandi bwihuse, bitagusabye kuva aho uherereye hose.

Uru ni urubuga rukorera kuri murandasi n'ikoranabuhanga, aho rigufasha kwishyura, kohereza, kwakira amafaranga, mu buryo bworoshye bitagusabye kuva aho uherereye akaba yakugeraho kuri telefone yawe.

Uru ni urubuga rukorera ku ikoranabuhanga ndetse na murandasi rwa Eyateri rugufasha kwishyura, kohereza, kwakira amafaranga mu buryo bworoshye kandi bwihuse bitagusabye kuva aho uherereye.

Uru ni urubuga rukorera kuri murandasi n'ikoranabuhanga, aho rugufasha kwishyura, kohereza, kwakira amafaranga yaba aturutse mu mahanga mu buryo bworoshye kandi bwihuse bitagusabye kuva aho uherereye.

Uru ni urubuga rukorera ku ikoranabuhanga ndetse na murandasi, aho ushobora kwishyura, kohereza, kwakira amafaranga aturuka mu mahanga, mu buryo bworoshye kandi bwihuse bitagusabye kuva aho uherereye.

Uru ni urubuga rukorera ku ikoranabuhanga ndetse na murandasi aho rugufasha kwishyura kohereza kwakira amafaranga mu buryo bworoshye kandi bwihuse bitagusabye kuva aho uherereye.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe mu nzu ikeye cyane, igizwe n'amabara agiye atandukanye, yaba ay'umuhondo, umweru, ndetse n'amatara meza, higanjemo abagore n'abagabo.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo, usize amabara y'umukara anyuramo ibinyabiziga bitandukanye nk'imodoka, hirya gato hari amatara maremare yaka n'ibiti bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Iyi ni inzu ndende yo mu bwoko bwa etaje igiye igerekeyije, igizwe n'amabara y'umweru n'ibirahure byijimye, imbere yayo ubusitani bwiza burimo indabo z'umuhondo ndetse n'amazi hafi aho.

Iyi ni inzu yo mu bwoko bwa etaje igerekeranyijemo kabiri, mbere yayo hari ubusitani buririmo indabo zigiye zitandukanye, nk'iz'icyatsi, umutuku, n'umuhondo, byose bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Ubu ni ubusitani bwiza butoshye bubereye ijisho ry'ubureba, bisa nkaho ari muri hoteri ikikijwe n'ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi ku bagenda aho ngaho bose.

Iyi ni inzu ndende yo mu bwoko bwa etaje igerekeranyije, isize amabara y'umutuku, ikikijwe n'ubusitani bwiza burimo indabo zigiye zitandukanye yaba iz'umuhondo n'iz'icyatsi n'ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo, usize amabara y'umukara n'uturongo tw'umweru, ku ruhande hahagaze abantu bagiye batandukanye yaba abagabo ndetse n'abagore, hirya gato hari inzu ya etaje igerekeranyije.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe, baracye cyane, higanjemo abagabo n'abagore, bisa nk'aho ari mu isoko, hamanitse ibikoresho bigiye bitandukanye yaba imyenda n'inkweto n'ibindi.

Aha ni ahantu huzuye abantu benshi bagiye batandukanye yaba abagore ndetse n'abagabo hari abicaye n'abahagaze hamanitse imyenda myinshi y'ubwoko bwose yo kwambara bisa nkaho ari mu isoko.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo, usize amabara y'umukara n'imirongo y'umweru, haranyuramo ibinyabiziga bitandukanye: nka moto, imodoka n'amagare, hirya gato hari inzu ya etaje igerekeranyije n'abantu munsi yayo.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe, bamwe baricaye abandi barahagaze, huzuye ibikoresho bigiye bitandukanye, bisa nk'aho ari mu isoko nk'imyenda yo kwambara, amashuka yo kwiyorosa higanjemo abagore n'abagabo.

Uyu ni umugore ubona usa nk'ukuze, yicaye neza, afite ibyishimo ku maso he, ari guseka, imbere ye ateretse ibyo kurya bigiye bitandukanye nk'imineke, intoryi, ibitunguru, inyanya n'insenda, bisa nk'aho ari mu isoko.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe higanjemo abagore n'abagabo baragenda abandi baricaye, hirya gato hamanitse imyenda igiye itandukanye bisa nk'aho ari mu isoko.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe bisa nk'aho ari mu isoko higanjemo abagore n'abagabo imbere yabo hari ibyo kurya byinshi bitandukanye nk'imineke ibitunguru amaronji inanasi inyanya n'ibindi.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe biganjemo abagabo n'abagore bahetse abana, huzuye kandi n'ibyo kurya bitandukanye ,nk'amaronji, inyanya n'imyambaro myinshi nk'ingofero.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe baracyeye cyane higanjemo abagore n'abagabo, imbere yabo hateretse ibyo kurya bigiye bitandukanye nk'imineke, inanasi, ibinyomoro, imyembe bisa nk'aho ari mu isoko.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe bisa nkaho ari mu isoko kubera ko hateretse inyanya n'ibindi biribwa hicaye abagore ndetse n'abagabo n'abana bakiri batoya.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe biganjemo abagore n'abagabo, bisa nk'aho ari mu isoko huzuye ibyo kurya bigiye bitandukanye nk'ibitoki, inyanya, intoryi, amashu, ibitunguru na karoti.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo, usize amabara y'umukara n'uturongo tw'umweru, ku ruhande haranyura abantu benshi ndetse n'ibinyabiziga by'imodoka na moto bihahagaze.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe, higanjemo abagore n'abagabo, bisa nk'aho ari mu isoko, kubera ko huzuye ibyo kurya bitandukanye nk'ibitoki, ibitunguru, intoryi, karoti n'inyanya.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe barakeye cyane mu nzu isize amabara y'umuhondo bisa nk'aho ari mu isoko, higanjemo abagore n'abagabo, imbere yabo hateretse ibikoresho nk'imyenda,

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe, higanjemo abagore ndetse n'abagabo. Bisa nkaho bari mu isoko, imbere yabo ateretse ibyo kurya bitandukanye, nk'inyanya, ibitunguru, insenda ndetse n'intoryi.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe kandi hanini, higanjemo abagore ndetse n'abagabo, imbere yabo hateretse ibyo kurya bigiye bitandukanye bisa nk'aho ari mu isoko nk'inyanya, intoryi, ibitunguru, inanasi n'ibindi.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo, usize amabara y'umukara haranyuramo ibinyabiziga bigiye bitandukanye nk'imodoka na moto ndetse n'abantu, hirya gato hari inzu ya etaje igerekeranyije.

Aba ni abantu bagera kuri batatu bari ahantu hamwe, babiri baricaye, undi arahagaze imbere y'ibyo kurya bigiye bitandukanye nk'inyanya, ibitunguru, intoryi, imiteja na karoti n'ibishyimbo bisa nk'aho ari mu isoko.

Aba ni benshi bari ahantu hamwe, higanjemo abagore n'abagabo bicaye, abandi bahagaze, bisa nk'aho ari mu isoko, hamanitse ibikoresho bigiye bitandukanye nk'amasakoshi, ibikapu n'uduseke.

Abana ni abantu benshi bari ahantu hamwe higanjemo abagore ndetse n'abagabo basa nkabakuze, huzuye imyenda myinshi n'ibindi bikoresho nk'amarido n'amashuka bisa nkaho ari aho bigurishirizwa.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe bisa nk'aho bari ku murongo higanjemo abagore n'abagabo iruhande rwabo hari inzu ndende yo mu bwoko bwa etaje igerekeranyije isize amabara y'umuhondo.

Uru ni urubuga rwifashishwa mu kohereza, kwakira amafaranga mu buryo bworoshye kandi bwihuse, bitagusabye kuva aho uherereye ahariho hose akakugeraho kuri telefone yawe.

Uru ni urubuga rukorera ku ikoranabuhanga ndetse na murandasi aho ushobora gutumizaho buri kimwe cyose wifuza kikakugeraho mu buryo bworoshye kandi bwihuse bitagusabye kuva aho uherereye.

Uru ni rubuga rukorera ku ikoranabuhanga ndetse na murandasi, aho rugufasha gutumizaho buri kimwe cyose wifuza, yaba ibyo kurya n'ibyo kwambara, bikakugeraho mu buryo bworoshye kandi bwihuse, bitagusabye kuva aho uri.

Uru ni urubuga rukorera ku ikoranabuhanga ndetse na murandasi aho rugufasha gutumizaho buri kimwe cyose wifuza cyo kurya kikakugeraho mu buryo bworoshye bitagusabye kuva aho uri.

Uru ni urubuga rukorera ku ikoranabuhanga ndetse na murandasi, aho ushobora kurwifashisha utumizaho buri kimwe cyose wifuza, kikakugeraho mu buryo bworoshye kandi bwihuse bitagusabye kuva aho uri.

Uru ni urubuga rukorera ku ikoranabuhanga ndetse na murandasi, aho rugufasha gutumizaho buri kimwe cyose wifuza kikakugeraho mu buryo bworoshye kandi bwihuse bitagusabye kuva aho uherereye.

Uru ni urubuga rukorera ku ikoranabuhanga ndetse na murandasi, aho rugufasha gutumizaho buri gikoresho cyose wifuza, yaba imyambaro n'inkweto n'ibindi mu buryo bworoshye kandi bwihuse, bitagusabye kuva aho uherereye.

Uru ni urubuga rukorera ku ikoranabuhanga ndetse na murandasi, aho ushobora gutumizaho buri kimwe cyose wifuza kikakugeraho bitagusabye kuva aho uri, mu buryo bworoshye kandi bwihuse.

Uru ni urubuga rukorera ku ikoranabuhanga ndetse na murandasi, aho utumizaho buri kimwe cyose wifuza kurya bakakikugezaho mu buryo bworoshye kandi bwihuse bitagusabye kuva aho uherereye.

Uru ni urubuga rukorera ku ikoranabuhanga, ndetse na murandasi, aho rugufasha gutumizaho buri kimwe cyose wifuza yaba amavuta, n'ibindi byo kwisiga mu buryo bworoshye bitagusabye kuva aho uri.

Uru ni urubuga rukorera ku ikoranabuhanga ndetse na murandasi, aho ushobora gutumizaho buri kimwe cyose wifuza icyo kurya cyiza kikakugeraho mu buryo bworoshyeye kandi bwihuse bitagusabye kuva aho uri.

Uru ni urubuga rukorera ku ikoranabuhanga ndetse na murandasi aho rugufasha gutumizaho buri gikoresho icyo ari cyo cyose wifuza kikakugeraho mu buryo bworoshye kandi bwihuse bitagusabye kuva aho uherereye.

Uru ni urubuga rukorera ku ikoranabuhanga ndetse na murandasi. Aho rugufasha gutumizaho buri kimwe icyo aricyo cyose wifuza cyo kurya kikakugeraho mu buryo bworoshye kandi bwihuse bitagusabye kuva aho uherereye.

Uru ni urubuga rukorera ku ikoranabuhanga, ndetse na murandasi aho ushobora gutumizaho buri kimwe cyose wifuza yaba imyambaro, kikakugeraho mu buryo bworoshye kandi bwihuse bitagusabye kuva aho uherereye.

Aba ni abantu babiri bari ahantu hamwe heza cyane hasize amabara y'umweru inzugi z'umukara, imbere yabo ubusitani bwiza burimo n'ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Aba ni abantu babiri, biganjemo umugore n'umugabo, ubona bakeye cyane, bari ahantu heza mu busitani butoshye bw'icyatsi, hirya yabo hari ibiti birebire, bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Iyi ni inzu ndende yo mu bwoko bwa etaje igeranije, isize amabara y'umweru umukara n'umuhondo, imbere yayo hari ubusitani bwiza burimo indabo zitandukanye n'izicyztsi, umutuku.

Iyi ni inzu nini kandi nziza isizwe amabara agiye atandukanye, hasi no hejuru umweru ndetse n'umuhondo, ku nkuta zihari huzuye ibikoresho byinshi bisa nk'aho ari mu isoko.

Iyi ni inzu nziza kandi nini igizwe n'amabara y'umweru hejuru n'amatara yaka neza cyane, huzuyemo abantu benshi higanjemo abagore n'abagabo ndetse hari n'imyenda bisa nkaho ari mu isoko.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe, barakeye cyane. Higanjemo abagore ndetse n'abagabo. Inzu barimo isize amabara y'umweru, hari ibikoresho bigiye bitandukanye, nk'imyenda n'ibindi.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe, baracyeye cyane, higanjemo abagore ndetse n'abagabo, aho bari hari ibikoresho bigiye bitandukanye nk'imyenda n'inkweto bisa nk'aho ari mu isoko.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe hari ibicuruzwa bigiye bitandukanye yaba ibyo kurya, ibyo kunywa ndetse n'ibikoresho byo gukoresha mu rugo, higanjemo abagore n'abagabo bisa nkaho ari mu isoko.

Aba ni abagore babiri ubona bari ahantu hamwe barishimye cyane bari guseka, bisa nkaho bari kuganira, imbere yabo hari ibyokurya bigiye bitandukanye nk'imbuto z'amaronji, inanasi, ibitunguru, n'inyanya, bisa nkaho ari mu isoko.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe, higanjemo abagore n'abagabo mu nzu isize amabara y'umweru, hejuru hamanitse imyenda igiye itandukanye, bisa nkaho ari mu isoko.

Aya ni amazu maremare yo mu bwoko bwa etage, agerekeranije, asize amabara y'umuhondo impande zose, ndetse n'ibirahure byijimye, akikijwe n'ibiti bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe, bisa nk'aho ari urubyiruko rw'abakobwa ndetse n'abahungu, bambaye impuzankano z'umweru na kaki, bakikijwe n'ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe, higanjemo urubyiruko, abagore ndetse n'abagabo, hari ibikoresho bigiye bitandukanye, yaba ibyo kurya, amavuta n'ibikinisho by'abana, bisa nk'aho ari mu isoko.